Ahantu bacuruza imiti. Iyo umuntu arwaye ajyayo akagura umuti bakamuha kandi baduha ku giciro cyiza, kubera ko iyo ugezeyo bagufata neza murakoze.

Ibitaro ni byiza biradufasha, iyo umuntu arwaye aragenda akajya ku bitaro bakamuha umuti, uwo muti bamuhaye ukamukiza atagiye ahandi kwivuza.

Ibitaro ni byiza biradufasha kubera ko iyo umuntu yarwaye ajya ku bitaro, akavuga indwara arwaye maze bakamuha umuti maze agakira.

Umutagara ni umuti, iyo umuntu yavunitse arawufata agashyusha amazi, akawikandisha, cyangwa amaguru yaba yatumbye arayashyusha amazi agashyiramo n'uwo mutagara, akawikandisha maze rero akabyuka amaguru yabaye neza.

Imyumbati nimwe mubiribwa biryoha kandi barabikunda iyo umuntu afite imyumbati, akayirya yirirwa afite imbaraga, kandi yirirwa akomeye.

Umukubanzoka ni mwiza, turawukunda kubera ko iyo umuntu mu nda hari kumurya arawuvuguta akawunywa munda harakira kandi niyo umuntu arwaye inzoka, arawunywa agakira.

Igikazikazi ni kiza gifite umumaro munini cyane, iyo umwana arwaye afite umuriro, barakimukarabya bakanakimusasira ,uwo mwana arakira ,niyo umuntu yaba arwaye barakimuha agakira.

Imyumbati ni myiza iraryoha iyo wayiriye ugira imbaraga kandi ukayijyana ku isoko bakaguha amafaranga kandi iyo wayiriye uhora ufite imbaraga mu mubiri.

Indabo ni nziza iyo umuntu afite indabo iwe haba hameze neza kandi haba hariho umwuka mwiza kandi zihumura neza. Umuntu wese yifuza kuzigura ziba zimeze neza.

Umurima urimo ibyatsi byinshi, ushobora kugenda ukawuhinga warangiza kuwuhinga ugateramo imyaka, kandi iyo myaka irera ikaba neza cyane.